Abagabo n'abagore bambaye imipira ifite amabara y'ubururu, bicaye ku ntebe zifite amabara y'umuhondo ndetse n'ameza atwikirisha ibitambaro by'umweru, kuri ayo meza hateretseho amacupa y'amazi, hari amakayi ahari ndetse n'amakaramu abo bantu bagenda bandikisha ndetse hari umuntu ufite na mudasobwa.

Abagabo n'abagore bicaye mu nama, imbere hari ameza ahari ari mu ibara ry'umutuku ateretseho amacupa y'amazi, uturangurura majwi dutoya ndetse na mudasobwa, inyuma hari undi muntu uhagaze uri gufata amashusho yifashishije kamera.

Abantu benshi batandukanye bahagaze bari kwifotoza mu nyubako ikwaka amatara hejuru, inyuma hari ikibaho kimanitseho cyaandikishijeho amagambo mu ibara ry'ubururu ndetse hari n'intebe zifite'tumezaeza bari bicayeho, ku meza yateretse amacupa y'amazi ndetse n'amakayi na mudasobwa.

Abagabo batatu n'umugore umwe, bicaye ku ntebe zifite amabara y'umukara ndetse inyubako bicayemo ifite amabara y'umweru, imbere ku meza hateretse uturangururamajwi dutoya, amacupa y'amazi ndetse n'amakayi n'amakaramu bari kwandikisha.

Abagabo babiri n'abagore babiri bicaye bameze nk'abari mu nama inyuma yaho intebe nta abantu bazicayemo imbere y'ameza bicayeho hateretseho uturangururamajwi dutoya bafite amatelefone ku meza bafite udukari bari kwandikaho ndetse hateretse n'amashakoshi.

Umuntu uri kuvugira mu ndangururamajwi wambaye akajire k'umukara, imbere ye hari abantu bagiye batandukanya bamuteze amatwi, bambaye imipira y'umukara ndetse ku meza akikijwe n'ibitambaro by'umweru hagiye Hateretseho amacupa y'amazi ndetse inyuma hagiye hari ibyapa bihari ndetse n'amarido ari kuri iyo nyubako.

Abantu bicaye bameze nkabari mu nama bambaye udupfukamunwa imbere hari abicaye bagera muri bane bicaye imbere'ameza atwikisha igitambaro gifite ibara ry'umukara hariho uturangururamajwi dutoya ndetse na mudasobwa n'uducupa twamazi inyuma hari abandi bahicaye ndetse hari n'abantu bari gufata amashusho bikoresheje ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Abantu bicaye ku dutebe dufite amabara y'umutuku ndetse hasi hari tapi y'ibara ry'ubururu, imbere hamanitse ibitambaro by'umweru ndetse hari n'ibyapa bigiye bitandukanye biri impande n'impande, hagati y'abo bantu hahagaze umuntu uri kubaganiriza.

Abantu bicaye ahantu hamanitse ibitambaro biri mabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi. Ni abantu bicaye mu buryo bw'ikizeru imbere yaho hari ameza atwikirije ibitambaro by'umweru ndetse n'ubururu, hagati hahagazemo umuntu uri kubaganiriza yifashishije mudasobwa ndetse n'ikindi cyuma cy'ikoranabuhanga kiri kwerekana amashusho.

Abagabo ndetse n'umugore bicaye mu nyubako ifite amarangi y'umweru n'amadirishya y'umukara. Inyuma hari umutako ufite amabara y'umutuku; hari ibiti bigiye biri ku mpande n'impande by'imitako, ndetse hagati hari akameza gateretseho ururabyo, ndetse ku ruhande hari udutebe tugiye duteretseho amacupa y'amazi.

Abagabo n'abagore benshi bicaye bameze nk'abari mu nama, inyuma yaho hari igikuta cy'amatafari kirekire ndetse hariho n'ibati, ku mpande hari ubusitani bugufiya ndetse hari n'abicaye ku ntebe z'ibiti ndetse n'abicaye ku ngiga y'igiti hagati hari kuvuga umuntu.

Inzu iri mu mabara y'umweru umuhondo ndetse n'umukara impande n'impande harimo abantu benshi bahagaze bameze nk'abari kuririmba, ndetse imbere yaho hari ameza atwikirije igitambaro cy'umweru hasi gifite ibara ry'umukara ku meza, hateretseho amacupa y'amazi ndetse n'udukayi.

Abagabo n'abagore bicaye mu nama, imbere hari ameza ateretseho amacupa y'amazi ndetse n'amakayi n'amakaramu bari kwandikiraho ndetse na mudasobwa, imbere hari umugore uhagaze uri kubaganiriza hari n'ibyapa bigiye bimanitse muri iyo nyubako.

Abagabo n'abagore bicaye, bameze nk'abari mu nama, imbere yaho hari ameza ateretseho uturangururamajwi dutoya ndetse na mudasobwa, hateretseho ndetse n'uducupa tw'amazi, bafite amaterefoni mu ntoki ndetse hari n'udukayi n'udukaramu bari kwandikisha.

Abantu benshi bicaye ahantu bameze nk'abari mu nama, ku meza agiye ari imbere yaho, ateretseho mudasobwa ndetse n'uducupa tw'amazi, hariho n'uturangururamajwi dutoya ndetse n'abari inyuma bo nta turangururamajwi duhari, ahubwo ameza atetseho mudasobwa gusa.

Abantu benshi bicaye mu nyubako iri kwaka amatara hejuru ifite inkuta z'umweru ndetse bicaye ku ntebe zifite amabara y'umukara, ameza atwikirije ibitambaro by'umweru, hagiye hateretseho ururabyo kuri buri meza ndetse ku meza hatereretseho n'uducupa tw'amazi.

Abantu bicaye mu nyubako ifite amabara y'umuhondo ndetse n'umweru, imbere yabo hari ameza manini ateretseho uducupa tw'amazi, ateretseho udukayi dutandukanye ndetse n'amatelefone ndetse abo bantu bameze nk'abari mu nama.

Abagabo ndetse n'abagore bicaye ahantu, ku meza ari imbere yaho atwikiririje ibitambaro by'umweru ndetse n'umuhondo, hateretseho amacupa y'amazi ndetse hateretseho n'indabyo impande n'impande, ndetse n'imbere hari indangururamajwi nini, hari n'akabati kari mu ibara ry'umweru.

Abagabo n'abagore bicaye mu nama, inyuma hari amabara y'umuhondo ndetse n'umukara, hari ameza ateretse impande zabo, ateretseho amacupa y'amazi, amakayi ndetse n'uturangururamajwi.

Abagore batatu n'umugabo umwe, bicaye ahantu imbere yabo ku meza hateretseho mudasobwa ndetse n'uturangururamajwi dutoya, hari n'amacupa y'amazi, inyuma yaho hari icyapa kiri mabara y'ubururu ndetse n'icyatsi.

Abagabo n'abagore bicaye mu nama mu nyubako iri inyuma yaho ifite udutafari duhiye n'amadirishya y'umweru, ndetse bicaye ku kabaraza kariho inkingi zifite amabara y'umutuku, imbere hari umugore uri kuvugira mu ndangururamajwi wambaye ishati y'ibara rya oranje.

Abantu benshi batandukanye bicaye ahantu bari gukurikirana inama, imbere yaho hicaye abandi bantu, inyuma hari ibyapa bihari biri mu mabara y'icyatsi ndetse yandikishijweho amagambo y'umweru bigiye bitandukanya impande n'impande.

Abagabo n'abagore bicaye imbere yabo hari ameza atwikirishije ibitambaro by'umweru, ku meza hateretseho udukayi ndetse hateretseho amacupa y'amazi, hateretseho na mudasobwa bari gukoresha, inyuma yaho naho hariho amarido afite irange ry'umweru.

Abantu bicaye bameze nkaho bari mu nama, bicaye mu buryo bw'ikizeru, hagati yabo hari ameza ari mu ibara ry'umutuku, hari n'akapa kari mu ibara ry'ubururu kanditseho Umujyi wa Kigali ndetse kuri ayo meza hateretseho amacupa y'amazi ndetse n'uturangururamajwi duto.

Abantu bicaye ahantu hari ameza hagati yabo ateretseho mudasobwa ndetse n'amacupa y'amazi, inyuma hari igikuta gisize irangi ry'umweru, hamanitseho ibyapa biri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, hagiye hashushanyijeho amadarapo y'igihugu ndetse hari umuntu uri kuvuga ijambo.

Abagabo n'abagore bari mu nama, bicaye ku ntebe hagati yabo hariho utumeza duteretseho uturangururamajwi ndetse inyuma hari icyapa kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru cyanditseho RGB, imbere hari ururabyo ruhari ndetse n'abandi bantu bicaye bari kubakurikirana.

Imbaga y'abantu benshi bicaye, bicaye mu ihema rifite amabara y'umweru ndetse hagiye hariho ibitambaro by'umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi, hari umuntu uri kuvuga ijambo mu ndangururamajwi ndetse hari n'abandi bagiye bahagaze impande n'impande.

Abagabo n'abagore bicaye mu nama, abicaye imbere hari ameza imbere yabo ateretseho uducupa tw'amazi amakaye n'amakaramu mudasobwa ndetse n'amaterefone, ndetse muri iyo nyubako ifite amabara y'umweru ifite n'amadirishya afite ibara ry'ubururu.

Abagabo n'abagore bicaye mu ntebe bari gukoresha mudasobwa, ku meza hateretseho uducura tw'amazi, mudasobwa, amakayi n'amakaramu, ndetse inyuma hari umugabo uri gusobanura areba ibintu byanditse ku rukuta.

Abagabo n'abagore bicaye ahantu, hasize amarangi y'umweru ndetse hejuru hari kwaka amatara, harimo amarido afite amabara y'ubururu, abo bantu bicaye bameze nk'abari mu nama, abicaye imbere hari ameza maremare ahari ateretseho amacupa y'amazi, udukayi bari kwandikamo ndetse n'amatelefoni.

Abagabo n'abagore bicaye ahantu, bicaye imbere yaho hari ameza ateretseho amacupa y'amazi, mudasobwa n'impapuro zitandukanye ndetse ibikuta bikikije iyo nzu bicayemo, bifite amabara y'umweru.

Abagabo n'abagore bicaye mu nyubako isize amarangi y'umweru, inyuma hamanitseho umutako, ndetse n'imbere hari akapa gahari gafite amabara y'umweru, abantu bicaye imbere yabo hari ameza atwikije ibitambaro by'umutuku, ariho amacupa y'amazi, mudasobwa ndetse n'impapuro n'amakaramu.

Abagabo n'abagore bicaye mu nama, bicaye imbere yaho hari ameza, bicaye mu buryo bw'ikizeru, ameza ateretseho impapuro, amaterefone, mudasobwa, uducupa tw'amazi ndetse hari amarido ahari, iyo nyubako ifite amabara y'umweru, hejuru hariho amatara n'umuntu uhagaze imbere yabo hari umuntu uri kuvugira mu ndangururamajwi.

Abantu bicaye ahantu mu nzu hari amabara y'umweru ku nkuta ndetse no hejuru, bicaye mu buryo bw'ikizeru, hari abicaye imbere yaho hari ameza ateretseho amacupa y'amazi ndetse hari umuntu uri kubaganiriza inyuma yamanitse ibyapa, hari n'undi muntu ufite kamera uri gufotora.

Inzu nziza cyane yitaruye, ubona ko ifite imbuga nziza irimo indabo z'ubwoko bunyuranye. Kandi ukaba ubona ko hari n'ibindi biti byabugenewe, byifashishwa mu kuzana umuyaga aho ngaho.

Abagabo n'abagore bicaye mu nama, imbere yabo hari ameza manini abakikije ateretseho amacupa y'amazi, mudasobwa ndetse n'impapuro, bari kuganira ndetse ku mpande n'impande hagiye hamanitse ibyapa bitandukanye.

Inzu nini iri kwaka amatara hejuru ndetse ifite amarangi y'umuhondo ndetse n'umweru, hari abantu bahagaze imbere yabo ku meza hari ibitambaro by'umweru ndetse n'umukara, hateretseho amacupa y'amazi ndetse n'amakaye.

Abantu benshi bicaye ahantu hari ihema ry'umweru, rimanikishijwe n'ibitambaro, biri impande n'impande n'imbere by'amabara y'ubururu, icyatsi ndetse n'umuhondo, ahantu ndetse bicaye hari n'igiti, kirimo kiragaragara hasi gusa.

Abantu benshi bicaye ahantu, hari ameza hagati yabo, bameze nk'aho bicaye bari mu nama, ku meza yaho hateretse uturangururamajwi dutoya, hateretse mudasobwa ndetse hateretse n'amaterefone ndetse n'amakayi bari kwandikamo.

Abantu benshi bicaye mu nzu, isize amarange y'umuhondo, hejuru hasa umweru ndetse harimo inkingi z'umuhondo n'umukara, abo bantu bicayemo bambaye imipira yubururu, inyuma yandikishijeho amagambo y'umweru ndetse imbere yaho hahagaze umuntu, uri kuvuga ijambo mu ndangururamajwi.

Abagabo n'abagore bahagaze bari kwifotoza bari imbere y'umuryango ufite amabara y'icyatsi, ndetse hari n'abandi bicaye bameze nk'abari mu nama,, mbere ha bicaye ahantu hari ameza hagati yabo atwikije ibitambaro byu'umweru ndetse n'ubururu hateretseho mudasobwa ndetse ateretseho n'amacupa y'amazi.

Abantu bicaye bari mu nama, hari umugabo uri kuvugira mu ndangururamajwi, ku meza bicaye imbere yabo hateretse amacupa arimo amazi ndetse hari n'utundi dupapuro tuhari turi mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Abantu benshi bicaye mu ihema riri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, hariho igishushanyo gishushanyijeho umwana ndetse hakurya hari abandi bahagaze, hari n'abicaye munsi y'ikigega cy'amazi, imbere hari umugabo uri kuvugira mu ndangururamajwi.

Abagore bagera muri batatu bicaye mu nzu inyuma hari amabara y'umuhondo ndetse n'ubururu n'imitako, ameza ari imbere yabo ariho amashakoshi , uducupa tw'amazi ndetse n'udukayi bari kwandikishamo n'amakaramu.

Abagabo n'abagore bari mu nama bicaye mu nyubako isize amarangi y'umweru ndetse agiye amanitsemo ibyapa bitandukanye, ku meza ari imbere yabo hateretseho uturangururamajwi dutoya, amacupa y'amazi ndetse n'amacupa arimo imitobe ndetse n'impapuro zigiye zitandukanye.

Abagabo n'abagore bicaye mu nyubako isize amarangi y'umweru, hari abicaye, imbere yaho hari ameza ateretseho igikapu, ateretseho mudasobwa, ateretseho uducupa tw'amazi ndetse n'udukayi, bicaye ku ntebe zifite amabara y'umukara.

Abagabo bagera muri batatu bicaye ahantu, inyuma hari urukuta rufite amabara y'umweru bicaye ku ntebe z'umukara, ndetse ameza ahari afite ibara ry'umutuku hateretseho uturangururamajwi dutoya, amacupa y'amazi, ndetse n'impapuro zihari.

Abagore ndetse n'umugabo bicaye ahantu bameze nk'abari mu nama ku meza hari imbere yaho hari uturangururamajwi duhari ndetse hari n'amacupa y'amazi ahari ndetse n'amakayi ahari, inyuma hari icyapa kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'icyatsi cyanditsemo Kigali yacu Kigali ikeye ndetse hari n'abandi bantu bari guhinguka impande bari kugaragara ibiganza gusa.

Abagabo n'abagore bari mu nama bari gukoma amashyi, bambaye udukarita mu ijo dufite imigozi y'ubururu, ku meza hariho igitambaro cy'umweru hateretseho amacupa y'amazi, amakayi ndetse n'amakaramu ndetse n'inyuma yaho hakikijwe n'ibitambaro bifite amabara y'umweru.

Abagabo n'abagore bicaye ahantu mu ntebe hari abafite mudasobwa ndetse hari n'abandi bari kureba mu matelefone hari umukobwa uhagaze ufite impapuro mu ntoki inyuma hari ibikuta bisize amabara y'umweru ndetse hamanitseho n'icyapa cyanditseho arajibi.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye hagiye hamanitseho ibyapa biri mu bara atandukanye Yaba mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru yaba mu mabara y'umutuku yaba amabara y'umuhondo ari n'ibiranganigo bya Emutiyeni ndetse imbere y'iyo nyubako hari ahantu bakarabira intoki.

Abagabo ndetse n'abagore, bicaye ahantu inyuma hari ikibaho cy'ibara ry'umukara, bicaye bari gukoresha mudasobwa ndetse umugore umwe ari gufasha undi kuba yakoresha mudasobwa ye.

Abantu bicaye mu nzu isize amarangi y'umweru, bicaye imbere y'ameza yaho hateretse mudasobwa bari gukoresha ndetse hari n'amakayi n'amakaramu bari kwandikisha ndetse hari n'utundi dukoresho dutandukanye tugiye duteretse kuri ayo meza.

Icyapa cy'umutuku cyanditseho Eyateri kimanitse ahantu hari ibyuma ndetse hejuru hari utundi twuma tugiye twizengurutse kuri ibyo byuma binini bihagaze ndetse hari n'ipoto rinini ry'umunara w'amashanyarazi rihari.

Umunara munini ufite amabara y'umweru ndetse n'umutuku, uteretse ahantu hari ibindi byuma ku mpande ndetse ukikijwe n'uruzitiro rukozwe mu twuma duhagaze ndetse hejuru hari utuntu tw'udusenyenge tugiye twizengurukije turiho, hari n'icyapa cy'umuhondo gifite ibirangantego bya MTN kiriho.

Abagabo bagera muri bane bicaye ahantu, mu ntoki zabo bafitemo amatelefone barimo barakoresha ndetse ameza ari imbere yabo atwikirije igitambaro cy'umweru, hateretseho mudasobwa, amakayi ndetse hateretseho n'amacupa y'amazi.

Ikinyabiziga k'imodoka kiri mabara y'umukara, gihagaze imbere y'amazu akorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye, hari inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imyenda, ndetse n'ahandi bacuruza imigati n'ibyo kurya, hari ameza ahari imbere y'iyo nyubako.

Abagabo babiri, umwe wicaye ndetse n'undi uhagaze wambaye ingofero y'ubururu mu mutwe ndetse hari icyuma gisohora impapuro giteretse ku meza, hari ingofero zihari ndetse hirya hari akandi kabati gahari.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye, ifite amabara y'umuhondo, hejuru hamanitse icyapa kiri mu mabara y'ubururu n'umweru, cyanditseho ko bakora ibintu byo mu irembo, ndetse ifite imiryango ifite amabara y'icyatsi, agiye amanikaho ibipapuro.

Abagabo babiri bicaye ku ntebe z'umweru bari kuganira bareba muri telefone, ku meza hateretseho mudasobwa ndetse na tabulete, hateretseho amarinete n'ikaramu, inyuma yabo hari abandi babiri bahicaye mu ihema, ndetse no hakurya hari abandi bicaye n'abandi bahagaze, ndetse hari n'ibinyabiziga by'amagare bihari.

Inyubako ndende ya etage iri mu mabara y'ubururu n'umweru ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye, hagiye hamanitseho ibyapa imbere yaho bitewe n'ibintu bicururizwa aho hantu, hari ubusitani ndetse hari n'ahantu abantu bari gutambuka, hari n'udutebe twubakishijwe mu biti tugiye twicayemo abantu bari kuganiriramo ndetse hari n'indi nyubako iri ibumoso nayo iri mu mabara y'umuhondo.

Abasore n'inkumi bameze nk'aho bari kwiga bari kureba muri mudasobwa ziteretse ku meza, kuri ayo meza yateretseho amatasi ndetse hariho agacupa k'amazi, bari mu nyubako ifite amarangi y'umweru bicaye ku rubaraza rw'iyo nyubako, hirya hari n'ubusitani buhari.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi isize amarangi y'umweru, ndetse umuryango wa mbere usize irangi ry'icyatsi, umuryango wa kabiri usize irangi ry'ubururu. Hari ibipapuro bigiye bimanitse hagati mu rugi, ndetse umuryango wa mbere mo imbere harimo udutebe n'akabati ndetse undi muryango wicayemo umuntu mo imbere.

Icyapa cyamamaza cyanditseho ko bitemewe kwishyura urugendo udakoresheje ikarita yabugenewe, hari uburyo bwa mbere butemewe, haba kwishyura mu ntoki abantu bari guhererekanya amafaranga, harimo inoti y'igihumbi ndetse n'inoti y'ibihumbi bitanu ko atari uburyo bwemewe ndetse hirya hari uburyo bwemewe ho hari ikiganza umuntu ari gukoza ikarita ku cyuma cyabugenewe.

Abagabo bambaye imipira y'ubururu n'udupfukamunwa, hari ufite igikapu ndetse n'ufite igikapu kiri hasi; inyuma yaho hari umunara muremure uri mu mabara y'umutuku n'umweru, ndetse ukikijwe n'utwuma ku ruhande; hirya hari inzu ihari ndetse hari n'undi munara muremure uhari.

Ipoto y'amashanyarazi ndetse n'amatara afite insinga zitandukanye zigiye zohereza mu mpande n'impande imbere yaho hari inyubako yubakishijwe uruzitiro rw'amatafari ahiye ndetse igihe harimo utwuma dufite ibara ry'umutuku ndetse hari n'ibindi biti biri ku mpande.

Mu muhanda uri kunyuramo ibinyabiziga by'igare ndetse n'umunyamaguru, kuri uwo muhanda hari ipoto y'amashanyarazi ndetse n'amatara, hari ubusitani buhateye bw'indabyo ndetse n'ibiti birebire ndetse hari n'urukuta rukikije ubwo busitani ruri mu mabara y'umweru.

Ibiti birebire ndetse n'indabo zikiri ngufiya, bikoze ubusitani, biteye mu muhanda rwagati, ahantu hari kunyuramo ibinyabiziga ndetse n'ibindi binyabiziga bihagaze ndetse hari n'amazu ari impande n'impande akorerwamo ubucuruzi.

Ipoto y'amashanyarazi rirerire rifite insinga nyinshi zigiye zitandukanye, ndetse iyo poto ihagaze ahantu hari ubusitani iruhande rw'urukuta rurerure, rusize amarange y'umweru ndetse mo imbere harimo inzu zifite amarangi y'umuhondo ndetse n'amabati y'umutuku.

Ipoto y'amashanyarazi iri ahantu iruhande rw'igiti cy'umwembe, ndetse hari imiyenzi, mo imbere hari urugo rurimo inzu, ndetse hariho indabyo zifite ibara ry'umuhondo, ndetse n'inyuma yaho hari izindi nzu zigiye zihari.

Umuhanda uteyeho ibiti ndetse hari ipoto y'amashanyarazi ifite insinga zijya zitandukanye mu mpande n'impande ndetse n'urukuta rurerure rwubakishijwe amabuye y'amatafari ari mu ibara ry'umwerumo imbere harimo inyubako igaragara amabati ndetse hari n'ibiti birebire bihateye.

Amatara menshi ari ku muhanda wa kaburimbo ndetse hari n'umunara muremure uri kuri uwo muhanda, hari ibinyabiziga by'imodoka biri guca muri uwo muhanda ndetse n'abanyamaguru benshi batandukanye, hakurya hari inyubako z'abantu babamo ndetse no mu ishyamba ririmo ibiti byinshi.

Urukuta rw'amatafari rusize irangi ry'umuhondo, mo imbere harimo ipoto y'amashanyarazi, ifite insinga nyinshi zitandukanye zirenze impande n'impande, ndetse urwo rukuta rufite umuryango w'icyatsi, mo imbere harimo inzu ifite irangi ry'umuhondo, hari n'izindi nzu zigiye ziri impande n'impande.

Ubusitani buri ku muhanda burimo indabo zifite amabara y'umuhondo, hari ibiti birebire biteye kuri uwo muhanda, hari ipoto ry'amashanyarazi rifite insinga zitandukanye, hari akapa kari ku muhanda kanditseho imibare igaragaza inzira ndetse hari n'inyubako ziri hirya no hino.

Abantu bari kugenda n'abandi bahagaze mu muhanda wa kaburimbo bari kugendera aho abanyamaguru bagendera hari inyubako ikorerwamo ubucuruzi, izitijwe n'utwuma dufite ibara ry'umutuku, hari amapoto y'amashanyarazi ku muhanda y'insinga ndetse n'amatara.

Abantu bari kugenda ku muhanda, kuri uwo muhanda hariho ipoto y'amashanyarazi ifite insinga zitandukanye ndetse hari n'ibiti biteye kuri uwo muhanda n'ubusitani. Hakurya hari inyubako zikorerwamo ubucuruzi butandukanye hari n'ikinyabiziga kihahagaze, hari n'abandi bantu bari kugenda.

Abantu bagera muri babiri bari kugenda mu kayira k'abanyamaguru, kuri uwo muhanda hari ipoto y'amatara ndetse hakaba n'ipoto y'amashanyarazi, hari urukuta rukozwe mu mabuye ruhari ndetse hari n'insina ndende ziteye ahantu hejuru ku musozi ndetse hari n'umunara uri hirya.

Ipotoo y'amashanyarazi ndetse hejuru hariho n'itara ifite insinga nyinshi zitandukanye zigiye zizishamikiyeho, ndetse hari n'igiti gihari, hari n'ubusitani bw'indabyo zifite ibara ry'umuhondo, hari urukuta rurerure rw'ibara ry'umuhondo, hejuru hagiye hizingazinzeho udusinga ndetse harimo n' igiti mu imbere.

Umuhanda wa kaburimbo ku mpande haparitse ibinyabiziga bigera muri bibiri ndetse hari ipoto y'itara ndetse n'insinga zinyuze hejuru mu kirere, hari n'ibiti bigiye biteye impande n'impande, hari n'uruzitiro ruhari rusize amabara ajya gusa umuhondo.

Ifoto y'amashanyarazi ifite insinga zigiye zitandukanye, zigiye zohereza ku yandi mapoto, iryo poto riteretse ahantu hari ubusitani burimo indabyo ndetse n'ibiti, imbere harimo inyubako nayo ifite amarangi y'umweru ndetse yubakishijwe amatafari ahiye.

Ibinyabiziga by'imodoka bitandukanye biparitse mu mbuga nini, hariho ipoto ikozwe mu giti y'amashanyarazi iriho insinga ndetse hakurya hariho inyubako nyinshi zitandukanye yaba ndende ndetse n'inyubako ngufi ya.

Inzu ifite umuryango w'umukara, ndetse n'urukuta rufite ibara ry'umuhondo, harimo utuntu tumeze nk'amadirishya y'umukara, mo imbere harimo ifoto y'amashanyarazi ifite insinga nyinshi zitandukanye, ziri kujya impande n'impande, ku muhanda hari kugendamo ikinyabiziga cy'imodoka.

Inyubako iri ahantu hameze nko mu bitaro hari abantu barimo barinjiramo mu muryango hari n'ahantu bakarabira intoki hari amarangi y'umweru hari ikinyabiziga cya moto gihagaze ndetse mbere muri iyo nyubako harimo ikigega cy'amazi.

Ubusitani bufite indabyo ndetse n'imikindo miremire, imbere hari inyubako yubakishijwe amatafari ahiye ndetse isize n'amarange y'umweru, imbere hari imodoka ihahagaze, hari amatara agiye ahari impande y'ubwo busitani.

Igikuta cyubakishijwe amatafari ahiye, hamanitseho icyapa kiriho igishushanyo cy'ijisho kigaragaza ahantu bavurira amaso ndetse uwo muhanda wubakishijwe ibitaka ndetse n'inyubako iri hirya ku ruhande hakikijwe n'ibiti.

Abantu bikoreye ibikapu ndetse n'abandi bateretse ibikapu hasi, bahagaze mu busitani ku mpande hari inyubako zisize amarangi afite ibara ry'umuhondo n'umweru, hari n'urubaraza ruhari rwubakishijwe amabati ndetse n'ibyuma bigiye bishinze impande n'impande.

Abagabo n'abagore bari kugenda ndetse n'abandi bahagaze, harimo abambaye udupfukamunwa. Ku ruhande hari inyubako y'ibitaro ifite inkingi zifite ibara ry'umweru, hari ubusitani buhateye, ndetse hari udutebe twicayemo abantu.

Inyubako ndende, iri mu mabara y'umweru ndetse n'ibara ry'ivu, hari ubusitani bw'ibiti birebire buhateye, hari ibinyabiziga bihagazemo imbere, hari amahema arimo ndetse hanze hari akazu k'ibara ry'umuhondo gafite ibirango bya MTN, hari icyapa gihari, hari kaburimbo iri gucamo ibinyabiziga.

Umuntu umaze gufungurira imodoka mu muryango ukozwe mu twuma duhagaze n'utundi dutambitse, imodoka iri kugenda ndetse hari izindi modoka zigiye zihagaze impande n'impande, hari n'icyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse hari n'urukuta rwubakishijwe amatafari ahiye hariho umuryango w'ibara ry'ubururu.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye harimo amadirishya afite ibara ry'ivu ndetse n'amabati y'ibara ry'ivu, n'inkingi nazo zisize irangi ry'ivu, hari udutebe abantu bicaraho, hari umugore wateretseho ishakoshi wambaye agapfukamunwa, hirya hari abandi bicaye ku dutebe dukozwe mu mbaho.

Inyubako ifite amabara y'umuhondo hari urubaraza rwubakishijwe amabati hariho n'inkingi z'ibyuma, hari udutebe duhari twicaramo abantu ndetse hari umuntu uhagaze ufite ibipapuro mu ntoki hakurya hari n'indi nyubako nayo isa nkingi ifite amabara y'umuhondo.

Ahantu hari inyubako zisize amarangi y'umuhondo, ndetse zigiye zifite ibikuta byubakishijwe amabuye harimo utuntu tumeze nk'utudirishya, ifite n'amabati y'umweru, hari ahantu hari ubusitani burebure, burimo imikindo ikiri migufiya n'izindi ndabyo, ndetse hari n'umuhanda umeze nka kaburimbo.

Imbangukiragutabara ebyiri ziparitse ndetse n'indi modoka isanzwe, hari ibiti birebire bihateye ndetse n'ubusitani, hari inyubako isize amarangi y'ibara ry'umweru ndetse n'amabati y'ubururu ndetse ifite n'urubaraza imbere.

Imodoka zigera muri esheshatu ziri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuka, ni imodoka zabugenewe zo gutwara abarwayi ndetse ahantu zihari hari utubuye dutoya, inyuma hari urukuta rw'amatafari ndetse hari ibiti bihari, no hirya hari inyubako iri mu mabara y'ubururu n'umweru.

Abantu benshi batandukanye barimo abagabo n'abagore bicaye ahantu mu busitani hari izuba ryinshi, hari abitwikiriye imitaka ndetse hari undi uhagazemo hagati hari n'abandi bicaye ku ntebe imbere yaho hari n'ameza ariho ibipapuro, hirya hari inzu ihari ifite amabara y'ubururu.

Abagabo n'abagore benshi bahagaze harimo n'abari kuganira n'undi uri gukoma mu mashyi, bambaye amakanzu ari mu ibara ry'umutuku, umukara ndetse n'umweru ndetse bambaye n'ingofero mu mutwe zifite amabara y'umukara arimo utuntu tw'umutuku.

Abantu benshi bambaye imyenda ya orange bafite amajerekani mu ntoki, ndetse n'abandi bambaye imyenda y'amaroza hari ahantu hari ikintu gikozwe mu byuma kirekire ndetse hari inyubako ndende yubakishijwe amatafari ahiye hejuru hagiye hariho utwuboma tw'udusinga.

Umupolisi uri mu muhanda wambaye imyenda y'umukara, irimo uturongo tw'icyatsi uri guhagarika ibinyabiziga, hari ikinyabiziga cya moto gitambutse ndetse n'ikinyabiziga cy'imodoka, umupolisi agiye guhagarika kuri uwo muhanda hari ibiti biteye impande yawo ndetse hari n'abantu bari gutambuka.

Umupolisi wambaye imyenda y'umukara irimo n'icyatsi, uhagaze iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo, hari aho abanyamaguru bambukira hari kwambukira abanyamaguru ndetse hari n'ibyapa biri ku muhanda, hari inyubako ndende iri hirya, igiye ifite ibyapa imbere yabyo bitewe n'ibintu bihakorerwa ndetse hari n'imodoka ziparitse hasi kuri iyo nyubako.

Abantu bambaye imyenda y'umukara n'ingofero, iyo myenda irimo utuntu tw'icyatsi, bafite itiyo mu ntoki iri guturukamo amazi menshi aho hantu, hari n'ahantu hari imbaho nyinshi, hahagaze n'abandi bantu, hari n'imodoka iri mu mabara y'umutuku.

Umuhanda wa kaburimbo hari n'aho abanyamaguru baca hari gucamo umunyamaguru ufite utujerekani mu ntoki hari ikinyabiziga kihaparitse ndetse hari igiti kirekire kihateye hari n'inyubako ya etage ihari iri mu mabara y'umweru hakurya nahoho hari ibiti birebire bihari ndetse hari n'amatara ku muhanda.

Mu muhanda wa kaburimbo, hari kwaka amatara nijoro, hari gucamo ibinyabiziga by'imodoka ndetse na moto, hari abantu bahagaze, bambaye amajipo y'umuhondo ndetse hari n'undi wicaye ku kabati, hejuru hari umutaka wa eyateri, hari ibiti biri ku muhanda.

Umupolisi uri kuvugana n'umuntu utwaye ikinyabiziga kiri mu ibara ry'umutuku ndetse ku muhanda hari insina zihari ndende, hari ibindi byatsi bihateye ndetse n'ibiti birebire kuri uwo muhanda, hakurya hari inyubako zitandukanye zihari.

Umuntu uri kugenda yerekeza ahantu hari inyubako ndende, igeretse inshuro zigera muri enye, iri mu mabara y'umweru ndetse n'ibara ry'ivu, imbere haparitseho ibinyabiziga bitandukanye, harimo n'ikinyabiziga cya polisi ndetse hari n'ibiti bihari ku mpande.

Abantu bari kwamamaza umukuru w'igihugu, bambaye imipira y'ibara ry'umweru, iriho ibirangantego bya FPR, inyuma hari undi muntu umanitse ifoto iriho umukuru w'Igihugu ndetse hari n'amabendera ari mu mabara y'ubururu, umutuku ndetse n'umweru, bagiye bamanitse.

Imbaga y'abantu benshi bagiye kwamamaza bambaye imipira iriho ibiranganitego bya Efuperi, hari abambaye imipira yumutuku, bambaye impira y'umweru ndetse n'ingofero, hari n'abambaye imipira yu'ubururu ndetse bafite n'utudarapo tw'mabara y'ubururu, umweru n'umutuku

Abagabo n'abagore bicaye bameze nk'abari mu nama, harimo umugabo wambaye agapfukamunwa ndetse imbere yaho hari ameza ateretseho indangururamajwi ntoya ndetse hateretseho n'uducupa tw'amazi ndetse hagiye hariho n'udukayi turi impande n'impande.

Akazu gatwikirije ibitambaro biri mu mabara y'icyatsi, umuhondo, ubururu ndetse hari n'abantu babiri bahahagaze harimo umwe uri gucengeza urupapuro mu gasanduku gahari undi na we arahagaze.

Umugore uri kuvuga ijambo ari kuvugira mu ndangururamajwi, wambaye umupira w'umukara n'ingofero y'umweru. Ufite akabendera mu ntoki kariho ibiranganego bya Efuperi, inyuma ye hamanitseho igitambaro kiriho ifoto y'umukuru w'igihugu. Ndetse yandikishijweho amagambo ya tora Kagame.

Abagabo n'abagore barimo bararahira, bahagaze impande y'amabendera y'igihugu ari mu mabara y'ubururu, icyatsi ndetse n'umuhondo, harimo n'ikimenyetso cy'izuba, ndetse bari no kuvugira mu turangururamajwi turi imbere yabo.

Abagabo n'abagore benshi bahagaze bari kwifotoza, hari abafite amaterefone mu ntoki, hari abafite udukayi mu ntoki, inyuma yaho hari ubusitani buteyemo ibiti ndetse hari n'amabendera agera muri abiri ahari ndetse hari n'iyindi mikindo ihateye.

Abagabo n'abagore batonze imirongo, bari kwinjira mu nzu isize amarangi y'imiryango umuhondo ndetse ifite amabati y'ubururu, amanitseho akantu kagiye kariho udutambaro tw'umuhondo, ubururu n'icyatsi ndetse no hirya hari abandi bari kwinjira mu wundi muryango.

Abantu benshi batandukanye, bari kwamamaza, bambaye imipira y'ubururu, ndetse bambaye n'ingofero ziri mu mabara y'ubururu, umutuku, ndetse n'umweru, hariho ibirangantego bya Efuperi hari n'undi mugabo wambaye ishati y'umweru, bafite n'utudarapo natwo turiho ibirangantego bya Efuperi biri mu mabara y'umutuku, umweru n'ubururu.

Abagabo n'abagore benshi bicaye mu nama, hari abitwikiriye imitaka, hari abandi bahagaze imbere yabo bari kuvuga ijambo, inyuma hari igikuta cyubakishijwe amatafari ahiye, ndetse hari n'inyubako ndende ihari, ifite amadirishya y'ubururu.

Abagabo batatu n'umugore umwe, bicaye mu ntebe zifite amabara y'umukara, bari mu nyubako inyuma yaho imeze nk'aho iriho televiziyo iri kwaka ndetse ku meza hateretseho mudasobwa, uturangururamajwi dutoya ndetse n'amacupa y'amazi.

Imbaga y'abantu benshi cyane bari kwamamaza bafite utudarapo turiho ibirangantego bya FPR biri mu mabara y'umutuku, ubururu ndetse n'umweru. Hari abapolisi bambaye imyenda y'umukara bari kugenda ndetse hejuru hamanitse ibitambaro nabyo biri mu mabara y'umutuku, umweru ndetse n'ubururu.

Umugabo uhagaze uri kuvugira mu ndangururamajwi, ku ruhande imbere ye hariho, ibyapa biriho ifoto y'umuntu uri kwiyamamaza, biri mu mabara y'icyatsi, ubururu ndetse n'umutuku, ndetse ku mpande ye hari abandi bahicaye mu ntebe n'inyuma hakikijwe n'ikindi cyapa gihari cyometse ku nyubako ihari.

Imodoka yabugenewe yigisha abantu gutwara imodoka, iri guca mu muhanda wa kaburimbo utari gucamo ibindi binyabiziga. Kuri uwo muhanda wa kaburimbo hagiye hateye ubusitani butandukanye ndetse hari n'ibiti birebire bigiye biteye kuri uwo muhanda.

Moto iri guca mu muhanda wa kaburimbo ndetse hagati harimo ubusitani buteyemo indabyo ndetse n'imikindo miremire harimo n'itara. Hakurya naho hari undi muhanda ukikijwe n'icyuma, naho munsi y'uwo muhanda hagiye hateye ibiti byinshi birebire.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ibinyabiziga, yaba ibinyabiziga bya moto, yaba ikinyabiziga gitwara abantu mu buryo bwa rusange gifite amaba y'ubururu ndetse n'umweru, kuri uwo muhanda hariho ruhurura ndetse hakurya hateye ibiti byinshi birebire.

Ibinyabiziga bitwara abagenzi bigera muri bibiri biparitse mu muhanda wa kaburimbo, bifite amabara y'icyatsi n'umweru, hari abantu bahagaze ndetse hari n'akandi kazu gafite amabara y'umutuku n'umweru, hari iminara ku muhanda ndetse n'amapoto y'amashanyarazi.

Ikinyabiziga kiri guca mu muhanda wa kaburimbo, inyuma cyikoreye gaze ndetse hagiye hamanitseho ibishushanyo bishushanyijeho gaze zitandukanye ndetse kuri uwo muhanda hari ruhurura, hari n'akayira k'abanyamaguru, hari itara riri ku muhanda ndetse hari n'ibiti bigiye biteye kuri uwo muhanda.

Ikinyabiziga cya rifani, kiri mu mabara y'ubururu, kiri kugenda muhanda wa kaburimbo, uwo muhanda hari ahantu hateye ubusitani ndetse buriho, utwapa dutandukanye, hariho n'amapoto y'amatara ku muhanda, hari n'akayira k'abanyamaguru, hakurya naho hari ahantu haparitse ibinyabiziga imbere y'inyubako.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ibinyabiziga bibiri, hariho ikinyabiziga cya moto n'ikinyabiziga gisanzwe gitwara imizigo gifite ibara ry'umweru, hari akayira k'abanyamaguru bacamo, ndetse hari n'ibiti biteye ku muhanda birebire.

Ikinyabiziga cya rifani ndetse n'ikinyabiziga cy'igare cyikoreye umufuka biri guca mu muhanda wa kaburimbo, umuhanda ufite aho abanyamaguru banyura ndetse hakurya hari ahantu hatazitijwe n'igitambara cy'icyatsi ndetse hari n'ibiti bigiye bihateye.

Umuhanda uri gucamo ibinyabiziga, yaba ikinyabiziga cya moto gitwaye umugenzi, yaba ikinyabiziga cy'igare gitwaye umugenzi ndetse n'imodoka itwara abantu mu buryo bwihariye, iri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umweru, hari akayira k'abanyamaguru ndetse hari n'ibiti biteye kuri uwo muhanda.

Imodoka y'igikamyo ndende ifite kontineri hejuru y'ubururu, iri guca muhanda wa kaburimbo, ndetse hari ibindi binyabiziga biri kuwucamo muri uwo muhanda, imodoka isanzwe ndetse na moto n'igare, hari aho abanyamaguru banyura ndetse hari n'ibiti bigiye biteye impande n'impande.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo imodoka, hari aho abanyamaguru banyura ndetse hari na ruhurura ihari, hakurya hari ibiti byinshi bihateye bikikijwe n'igitambaro kiri mu ibara ry'icyatsi ndetse inyuma yaho hari abandi bantu bahahagaze, hari n'imifuka igiye ihari.

Imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange, iri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, iri kunyura mu muhanda wa kaburimbo. Muri uwo muhanda hari akayira abanyamaguru bacamo haba iburyo ndetse n'ibumoso, ndetse hari itara ku muhanda, hari ibiti birebire bigiye biteye kuri uwo muhanda.

Ikinyabiziga cya moto gitwaye umugenzi kiri guca mu muhanda wa kaburimbo, imbere yaho hari imirongo y'ibara ry'umweru aho abanyamaguru bambukira ndetse hari n'akayira k'abanyamaguru, hari ibiti biteye ku muhanda, hari inyubako ihari ndetse hari n'amatara ku muhanda.

Ikinyabiziga cy'imodoka gitwara abantu kiri mu mabara y'umutuku ndetse n'ibinyabiziga by'igare biri kunyura mu muhanda wa kaburimbo, ku ruhande hari ruhurura ndetse hirya hari ikinyabiziga cy'igare kiri kugenda mu kayira k'abanyamaguru ndetse n'abandi bantu bari kuhagenda hari n'ibiti biteye kuri uwo muhanda.

Imodoka y'ikamyo iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, inyuma yikoreye ibintu bikikijwe n'ihema rigiye riziritse ndetse kuri uwo muhanda hakurya hari ibindi binyabiziga bigiye biparitse, impande z'aho hari amatara ari ku muhanda ndetse hari n'ibiti birebire biri kuri uwo muhanda.

Imodoka itwara abagenzi y'ibara ry'umweru, iriho n'andi mabara inyuma handitseho jugumira. Hari umuntu uri kugenda impande yaho ndetse hari n'undi ufite imbago, ku ruhande hari umusore wikoreye ikarito irimo imitobe. Ndetse n'indi modoka itwara abagenzi ihari iri mu mabara y'ubururu n'umweru.

Ibinyabiziga biri guca mu muhanda wa kaburimbo, hari ikinyabiziga cya moto ndetse hari n'ikindi kinyabiziga cyikoreye inyuma kontineri irimo inzoga ndetse n'imitobe bigiye bifunze mu makesi arimo ndetse kuri uwo muhanda hari n'ibiti bihateye.

Ibinyabiziga biri kunyura mu muhanda wa kaburimbo biri kubisikana, hari ikinyabiziga gifite ibara ry'umweru ndetse n'ibinyabiziga bya moto bitwaye abagenzi ndetse hari aho abanyamaguru batambuka hari kunyuramo abagabo bagera kuri babiri ndetse kuri uwo muhanda hateye ibiti birebire.

Ikinyabiziga cya rifanani kiri guca mu muhanda wa kaburimbo iki kinyabiziga cyanditseho nimero za terefone ndetse hariho n'ibirangantego byamamaza inzoga ya pirimusi ndetse hari akayira k'abanyamaguru hari n'ibiti birebire bihateye kuri uwo muhanda.

Ikinyabiziga k'imodoka k'ikamyo kirekire kiri guca mu umuhanda wa kaburimbo, inyuma kikoreye imizigo itwikirije ihema ry'ubururu, hari ahantu abanyamaguru bari guca ndetse hari ikinyabiziga k'igare n'icya moto biri guca muri uwo umuhanda wa kaburimbo ndetse hari n'ibiti birebire biteye kuri uwo muhanda.

Imodoka ziri kugenda mu muhanda ndetse hari izindi zigiye ziparitse impande n'impande, muri uwo muhanda hari kugendamo n'abanyamaguru ndetse hari n'ibiti bigiye biteye ku muhanda, hari n'inzu ziri impande n'impande zikorerwamo ubucuruzi ndetse hari n'amapoto y'amatara yo ku muhanda.

Umukarani wikoreye umufuka urimo ibintu byinshi, ku ruhande rwe hari ahantu hari kunyura ibinyabiziga, ikinyabiziga cy'ikamyo kirekire ndetse n'ibinyabiziga bya moto, hari abantu bari guca mu kayira k'abanyamaguru, hari itara ryo ku muhanda, hari ibiti byinshi biteye kuri uwo muhanda ndetse hari n'ibindi binyabiziga by'imodoka biparitse hirya y'umuhanda.

Iyi ni inzu ikodeshwa iri ahantu bita kugisozi mu mujyi wa kigali mu Rwanda bakaba bari kuvuga ngo iyi nzu irimo ibyumba bibiri kandi irimo n'ubwogero bugera kuri bubiri.

Ikinyabiziga cy'imodoka, inyuma cyikoreye imizigo ndetse hicaye n'umuntu, hari n'ibyuma biri kuri iyo modoka ndetse hari n'ikinyabiziga cya moto gitwaye umugenzi kiri guca muri uwo muhanda ndetse n'umunyamaguru uri gutambuka hirya n'ibiti birebire biteye kuri uwo muhanda.

Ibinyabiziga by'imodoka ndetse n'ibya moto, biri kunyura mu muhanda wa kaburimbo; ku ruhande rw'uwo muhanda hari ruhurura ihari ndetse hari n'akayira k'abanyamaguru; hirya hari gucamo umunyamaguru, ndetse kuri uwo muhanda hari ibiti birebire bikikijwe n'igitambambaro kiri mu ibara ry'icyatsi.

Ibinyabiziga by'imodoka ndetse na moto biri kunyura mu muhanda wa kaburimbo, hari ikinyabiziga inyuma kiriho ifoto y'umudamu uteruye umwana bari kwamamaza ndetse kuri uwo muhanda hari gucaho umunyamaguru, hari n'ahantu hari ruhurura, hari n'ibiti biteye impande y'uwo muhanda ndetse hari n'ibindi binyabiziga biparitse hirya.

Ibinyabiziga bigera muri bibiri, ndetse n'ikinyabiziga cya moto, biri guca mu muhanda wa kaburimbo, hakurya hari akayira k'abanyamaguru kari gutambukamo umunyamaguru, ndetse hari igiti kinini gihari kuri uwo muhanda ndetse n'ibindi biti bitandukanye, hari n'inyubako iri hakurya.

Ikinyabiziga gifite ibara ry'umweru kiri gutambuka mu muhanda wa kaburimbo, hirya hari ibindi binyabiziga birimo birahinguka, kuri uwo muhanda hari amapoto y'amatara ndetse hari n'izindi nyubako ziri hirya no hino, hari n'akayira k'abanyamaguru banyuramo.

Imodoka zigera muri eshatu ziri kugenda mu muhanda, hari rifani zigera muri ebyiri ndetse n'indi modoka y'ibara ry'ubururu, inyuma yikoreye ibintu, itwikirije shitingi, bizirikishijweho n'imigozi ndetse hari n'ibiti biteye kuri uwo muhanda.

Igikamyo kirekire kiri kunyura muhanda wa kaburimbo kikoreye ibintu inyuma bitwikirije ihema rifite amabara y'ubururu rizirikishijwe ndetse n'imigozi, hari umuntu uri kugenda ku ruhande ku gahanda k'abanyamaguru wambaye ijire iri mu mabara y'icyatsi

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ikinyabiziga, inyuma hari umuntu uhahagaze ndetse hari gucamo ikinyabiziga cya moto gitwaye umugenzi uteruye ipine ndetse hari akayira k'abanyamaguru kari gutambukamo umunyamaguru, hirya hari ibiti birebire biteye kuri uwo muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ibinyabiziga bigera muri bibiri birebire bya rukururana ndetse hari akayira k'abanyamaguru na ruhurura ihari, hari n'ibiti birebire biteye kuri uwo muhanda ndetse hari n'ipoto ry'itara riri ku muhanda.

Imodoka iri mu mabara y'ubururu, yigisha abantu gutwara imodoka, iri kunyura mu muhanda wa kaburimbo, kuri uwo muhanda, hari ibyapa bigiye biri impande n'impande, hari ipoto y'amashanyarazi, hari amatara ku muhanda, ndetse hari n'ibiti birebire, bihateye kuri uwo muhanda.

Umuhanda wangiritse urimo ibinogo bigiye biretsemo amazi ndetse hahagaze ikinyabiziga cy'imodoka gitwara abagenzi mu buryo bwa rusange kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru ndetse hakurya hejuru hari n'ishyamba ryinshi.

Imodoka y'ikamyo iri mu ibara ry'umweru hariho icyapa cyanditseho uruvange iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, kuri uwo muhanda hari ruhurura, hari aho abanyamaguru batambuka ndetse n'ibiti birebire bihateye bikikijwe n'igitambaro kiri mu ibara ry'icyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo, hari aho abanyamaguru bagenda, hari na ruhurura ihari, mu muhanda hari gucamo ikinyabiziga cya rivani gifite ibara ry'ubururu ndetse hari n'ikinyabiziga cya moto kiri gucamo, cyikoreye agakarito inyuma ndetse kuri uwo muhanda hari akayira k'abanyamaguru ndetse hari n'ibiti birebire bihateye.

Ikinyabiziga cy'imodoka ndetse n'ibinyabiziga bibiri by'amagare, biri kunyura mu muhanda wa kaburimbo, hari aho abanyamaguru batambuka, imyanya igera muri ibiri iburyo n'ibumoso, ndetse hari n'ibiti birebire bihateye kuri uwo muhanda, bikikijwe n'igitambaro cy'icyatsi, mu imbere naho haparitsemo ibinyabiziga by'imodoka.

Imodoka iri kunyura mu muhanda wa kaburimbo, uwo muhanda ufite aho abanyamaguru banyura ndetse hari ubusitani bugiye buteye muri uwo muhanda hakurya, burimo indabyo zifite amabara y'umuhondo ndetse n'ibiti birebire bigiye bitandukanye biri impande n'impande.

Imodoka itwara abagenzi iri mu mabara y'icyatsi ndetse n'umweru, iparitse ahantu hari abantu benshi cyane ndetse hari ahantu harunze imifuka, umuntu wicaye hejuru y'iyo mifuka ndetse hari n'amatara ari kwaka kuri uwo muhanda.

Mu muhanda wa kaburimbo, hari gucamo ibinyabiziga bya moto, ndetse n'ikinyabiziga cya Lifani, ndetse hakurya haparitse ibinyabiziga bya Lifani, ndetse hari n'inyubako ziri inyuma z'ama etaje zifite n'ibyapa bigiye bimanitse hejuru, ndetse hari n'amapoto y'amashanyarazi afite insinga zitandukanye.

Umuntu wikoreye umufuka urimo ibintu byinshi uri kugenda mu kayira k'abanyamaguru ndetse ku ruhande rwe hari ruhurura ihari ndetse mu muhanda wa kaburimbo, hari kugendamo ikinyabiziga gitwara abantu kiri mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi.

Ibinyabiziga by'amakamyo maremare ari guca mu muhanda wa kaburimbo, kuri uwo umuhanda hino hari ahantu hari ruhurura ndetse hari n'akayira k'abanyamaguru, hirya hateye ibiti byinshi birebire ndetse n'ibindi binyabiziga by'imodoka bigiye biparitse impande y'ibyo biti.

Igikamyo kinini cyane kiri mu mabara y'umutuku, kiri kunyura mu muhanda wa kaburimbo ndetse kuri uwo muhanda, hari ahantu hari ruhurura ndetse hakurya hari ahantu hateye ibiti birebire, hakikijwe n'igitambaro kibonerana kiri mu mabara y'icyatsi ndetse hari n'abantu bari hakurya bahagaze.

Igikamyo kinini gifite amabara y'ubururu ndetse n'umweru, cyikoreye inyuma ikintu batwaramo amazi ndetse muri uwo muhanda wa kaburimbo hino hari ahantu hari ruhurura, hakurya hari n'ahantu hateye ibiti birebire.

Ikinyabiziga cyikoreye inyuma ibyuma hahagaze n'umuntu ndetse hari kunyuramo amagare na moto, hari abandi bantu bari kugenda impande n'impande z'uwo muhanda ndetse kuri uwo muhanda hirya, hatwikirije igitambaro kirimo ibara ry'icyatsi ndetse hari n'ibiti biteye ku mpande.

Umunyonzi w'igare, uri gusunika igare inyuma ryikoreye umufuka urimo ibintu uzirikishijwe umukoba, ku ruhande hari ruhurura ihari kuri uwo muhanda, hari ahantu abanyamaguru banyura hari itara rihari ndetse n'ibiti birebire bihari, bikikijwe n'igitambaro kiri mu ibara ry'icyatsi.

Umunyamaguru, uri kugenda mu kayira k'abanyamaguru, iruhande rwe hari kaburimbo, iri gucamo ikinyabiziga gitwara abantu mu buryo bwa rusange, gisize amabara y'ubururu, umweru, icyatsi ndetse n'umuhondo, ndetse kuri uwo muhanda hari itara rirerire, ndetse hari n'ibiti biteye kuri uwo muhanda.

Ikinyabiziga cya moto gitwaye umugenzi, kiri kunyura mu muhanda wa kaburimbo, hari akayira k'abanyamaguru gakikijwe n'ibyuma ndetse hagati harimo ubusitani burimo indabo ntoya, ndetse buteyemo n'imikindo miremire. Hakurya na ho hari ubundi busitani burimo ibiti birebire.

Ikinyabiziga cya hoho kiri kunyura mu muhanda wa kaburimbo, inyuma cyikoreye umucanga utwikirijwe amahema, ndetse kuri uwo muhanda hari ruhurura, hirya hari itara rihari ku muhanda, hari n'ibiti birebire biri kuri uwo muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ibinyabiziga bitandukanye, hari gucamo ibinyabiziga bya moto bitwaye n'abagenzi, hari ikindi kinyabiziga kinini cy'ikamyo, cyikoreye kotineri hejuru ndetse hari n'ibindi binyabiziga biri kuzamuka, hari n'inyubako ziri kuri uwo muhanda.

Moto ndetse n'ibinyabiziga by'imodoka biri guca mu muhanda wa kaburimbo, hari akayira k'abanyamaguru gahari gakikijwe n'icyuma gihari, ndetse hari ubusitani buri hagati butandukanye umuhanda n'undi, buteyemo indabyo ngufi ndetse n'imikindo miremire ndetse no hakurya hari inyubako ihari iriho ibyapa ku mpande n'impande.

Imodoka zigera muri ebyiri ziri guca mu muhanda wa kaburimbo, imodoka imwe ifite ibara ry'umweru ndetse n'indi modoka ifite ibara ry'ubururu yikoreye ibinyobwa inyuma bigiye bipfunitse mu mabara y'ubururu ndetse n'umutuku. Kuri uwo muhanda hari ibiti bihateye ndetse hari n'igitambaro kibonerana gifite ibara ry'icyatsi.

Abamotari benshi baparitse mu muhanda, hari ahantu hari umutaka uri ibirangantego bya Airtel ndetse imbere hari inyubako iri kwakamo amatara nayo ikorerwamo ubucuruzi ihagazemo abantu, hariho n'akapa k'ibara ry'umuhondo ndetse hirya hariyindi nyubako nayo iri kwakamo amatara.

Ibinyabiziga biri guca mu muhanda wa kaburimbo, ya ibinyabiziga bya moto, n'ikindi kinyabiziga cyikoreye ibikoresho, inyuma birimo akabati ndetse n'amabati, hari abanyamaguru bari kunyura muri uwo muhanda, yaba abikoreye imifuka, n'undi uri kuvugira kuri telefone, ndetse hari n'ibiti bigiye bitandukanye biteye impande y'uwo muhanda.

Ikimodoka kinini kiri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, hejuru cyikoreyeho ibintu bitwikirije ihema riri mu mabara y'ubururu rizirikishijwe imigozi ndetse muri uwo muhanda hari gucamo abamotari ndetse hari n'akayira k'abanyamaguru kari gucamo umugenzi, hari n'ibiti bigiye biteye impande n'impande.

Ibinyabiziga bibiri bya moto biri guca mu muhanda wa kaburimbo, umwe ahetse umugenzi, kuri uwo muhanda hari amapoto y'amashanyarazi, afite insinga zigiye impande n'impande ndetse hari n'uruzitiro rusize amabara y'umweru, hari ubusitani ku muhanda ndetse n'imbere muri urwo ruzitiro hateyemo ibiti birebire.

Inzira y'abanyamaguru igiye iteyemo ibiti bikoze ubusitani biri hagati ndetse hakurya hari inyubako ndende iri mu mabara y'umuhondo, ifite n'amadirishya y'ubururu, ifite uruzitiro na rwo ruriho inkingi z'umuhondo ziriho udutara ndetsegiye harimo utwuma tugiye dutambitse.

Abantu bicaye mu busitani burimo udutebe two kwicaraho hari ibiti by'imikindo birebire bihari, hari n'utuzu dukozwe mu mbaho tugiye turi impande n'impande dukorerwamo ubucuruzi bw'imyenda ndetse hakurya hari n'indi nyubako hari n'abantu bari kugenda muri ubwo busitani.

Abantu bicaye mukazu gakozwe mubyuma bisize irange ry'umukara bicaye kudutebe duhari ndetse Hari nibiti bigiye biteye kumuhanda Hari abantu nabo barimo baragendage muruwo muhanda harinyubako zigera muri ebyiri ndende harinyubako ifite amabara ya orange ndetse nindinyubako ifite amabara ajyagusa n'umweru

Abantu bari kugenda mu muhanda ukikijwe n'ubusitani, hari abandi bicaye muri ubwo busitani ku dutebe duhari, ubusitani burimo imikindo miremire, ndetse harimo n'utuzu twubakishijwe imbaho dukorerwamo ubucuruzi bw'imyenda, ndetse hari n'izindi nyubako ndende za etaje zigiye ziri impande n'impande.

Imihanda igera muri ibiri itandukanyijwe n'icyuma kirekire gihari, umuhanda wo hirya usizemo amarangi y'icyatsi ndetse n'umweru, hakurya hari n'ubusitani burimo imikindo ikiri migufi, ndetse hari n'inzu iri mu mabara y'umweru iri hirya.

Abana bari gukina umupira mu kibuga cyabugenewe, ku ruhande hari agatebe kicaramo abantu ndetse harimo n'ubusitani burimo imikindo ikiri migufi, hari n'umuhanda abantu bacamo, hakurya hari inyubako ndende yubakishijwe amatafari ahiye ifite n'amabati y'umutuku, ndetse imbere y'aho hari uruzitiro rwubakishijwe utwuma.

Umuhanda urimo amarangi y'icyatsi ndetse n'umweru, hirya hari ubusitani burimo pasiparumu ndetse n'imikindo, hicaye abantu ku ruhande nanone hari akayira kari kunyuramo, hirya hari inyubako nyinshi zitandukanye ziri mu mabara y'umweru ndetse n'ibara ry'ivu.

Ikibuga gikinirwamo umukino wa basikete, hari akuma banagamo balo ndetse hari ibiti biyateye kuri icyo kibuga impande n'impande, ibiti birebire ndetse hari n'urukuta ruhari rwubakishijwe amatafari ahiye.

Akapa kari ku muhanda gashinze ahantu hari ubusitani, ni utwapa tugera muri tubiri, harimo akapa karimo ibishushanyo by'abantu, umuntu mukuru ndetse n'umwana afashe mu ntoki ndetse akapa kari hejuru gashushanyijeho umusaraba, kari ahantu hari urukuta rurerure ruri mu mabara y'umweru ndetse n'utwuma turimo dukozwe mu ibara ry'ivu, hari n'abana bari kugenda muri uwo muhanda.

Icyapa kiri ku muhanda cyerekana uturere, haba Akanyaru, Huye, Muhanga ndetse na Ruhango na Kinazi, ni icyapa kiri ku muhanda, kuri uwo muhanda hateye n'ibiti, hari n'inyubako zitandukanye ziri kuri uwo muhanda.

Icyapa kiri ku muhanda gifite ishusho y'umusaraba ku ruhande hari urukuta rw'amabuye ndetse n'amatafari, hatemewe ibiti imbere hari umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ibinyabiziga ndetse hari n'umunyamaguru uri kuhagenda hari n'amatara ku muhanda.

Akapa kari ku muhanda kari mu mabara y'umutuku ndetse n'umukara. Harimo igishushanyo cy'umuntu uri kuyobora umucanga gihagaze ahantu mu muhanda wa kaburimbo, ku ruhande hari urukuta rw'amabuye hejuru rugiye rufite ibyatsi bihari. Ndetse no hirya hari ibyatsi byinshi by'ubusitani bihari.

Icyapa kiri mu mabara y'icyatsi cyanditseho Kigali international airport, kiri ahantu hari ubusitani burebure burimo pasiparumu ndetse n'ibiti birebire ndetse hari akayira k'abanyamaguru karimo amabuye ndetse hari kugendamo n'umunyamaguru.

Icyapa kiri ku muhanda mu busitani kiriho igishushanyo cy'umuntu uri kwambukira muri kaburimbo mu mirongo yabugenewe yo kwambukiramo, hari urukuta rw'amabuye ndetse hari urundi rukuta ruriho utwuma dufite amabara y'umweru, mo imbere harimo inyubako ifite n'ubusitani hanze.

Akapa kari ahantu mu busitani kariho ibishushanyo by'abantu babiri ndetse hateye ibiti birebire ndetse n'ibindi biti bikiri bitoya, hari akayira k'abanyamaguru kari kunyuramo abana b'abanyeshuri ndetse no hirya hari umuhanda wa kaburimbo ucamo imodoka zisanzwe.

Icyapa kiri ku muhanda, kigaragaza Akarere ka Karongi, ni umuhanda wa kaburimbo uri gucamo abanyamaguru, ndetse hirya hari icyuma gikora umuhanda, mu muhanda urimo ibyatsi byinshi ndetse hari ibindi biti bigiye biteye impande n'impande.

Urukuta rw'amabuye ruri ku muhanda, ni urukuta rusize amabara y'umukara n'umweru, hari akapa kari ku muhanda handitseho mirongo ine, hari indabo zihari ndetse hari urukuta rw'amatafari, asize irangi ry'umuhondo, hirya hari n'indi nyubako, ndende bari kubaka itararangira.

Icyapa kiri ku muhanda cyanditseho akarere ka Bugesera, hari ibiti biteye kuri uwo muhanda, hari akayira k'abanyamaguru ndetse hari n'umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ibinyabiziga bigera kuri bibiri, ndetse hari n'amapoto y'amatara n'amashanyarazi ari kuri uwo muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo hakurya hari akapa kari mu ibara ry'umuhondo ndetse harimo igishushanyo cy'inyuguti ya T icuritse, hari ibyatsi byinshi biri iruhande rwako kapa ndetse n'ibiti birebire biteye kuri uwo muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ibisate bitandukanye, bitandukanyijwe n'ahantu hari utubuye tw'amabara y'umukara n'umweru; hari akapa ku muhanda kanditseho amagambo y'umukara, ndetse hari amapoto y'amashanyarazi afite insinga zitandukanye, hari n'ibiti biteye kuri uwo muhanda.

Icyapa kinini kiri ku muhanda gifite ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru cyerekana ahantu uduce duhari tugiye dutandukanye ndetse icyo cyapa kiri ahantu, umuhanda hari kwaka amatara, hirya haparitse ibinyabiziga bya moto n'izindi modoka ziri kugenda ndetse hari n'ikindi kiraro cy'umuhanda kinyura hejuru.

Ku muhanda wa kaburimbo hari ahantu hari ubusitani butandukanyije umuhanda n'uwundi, hateyemo indabyo ndetse n'imikindo ikiri migufi, harimo n'icyapa kirimo kiri mu mabara y'ubururu ndetse hakurya hari ahantu hari ubusitani na ho, hari kunyuramo n'umunyamaguru hari urukuta, mo imbere harimo inyubako ndende iri mu mabara y'umweru.

Akapa kari ku muhanda kandiditseho kk maganane mirongo itatu n'icyenda, kuri uwo muhanda hari ipoto y'amashanyarazi ihari, ndetse n'umuhanda w'amabuye uparitsemo ikinyabiziga, hari ibiti bihari ndetse hari n'umuntu uhagaze imbere y'akapa gafite ibara ry'umuhondo.

Mu muhanda wa kaburimbo, hirya harimo ubusitani burimo indabyo ndetse harimo n'akapa k'umweru karimo imirongo y'umutuku, hakurya hari ubundi busitani bunini burimo ibiti by'imikindo birebire ndetse n'indabo zikiri ngufi.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ibisate bigera muri bitatu, harimo utwapa tugera kuri tubiri turi mu mabara y'ubururu, ndetse hariho n'ubusitani burimo hagati muri kaburimbo burimo imikindo migufiya, muri uwo muhanda wa kaburimbo hari kugendamo ibinyabiziga bya moto, ndetse hakurya naho hari ubundi busitani burimo amatara yo ku muhanda ndetse no haruguru hari uruzitiro rwubakishi utwuma tw'amabara y'umweru.

Akapa kari ku muhanda kari mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru, harimo ibishushanyo by'abantu umuntu ufashe umwana akaboko ndetse hari urukuta rurerure rw'amabuye, hejuru hariho utwuma ndetse hari n'ibiti biteye hasi ndetse hari n'ibindi biti birebire biteye hejuru.

umuhanda wa kaburimbo hateye ubusitani burimo ibiti birebire ndetse hari n'amapoto y'amashanyarazi, hari ibyapa biyobora abantu ndetse hari n'icyapa gishushanyijeho mu gishushanyo cy'u Mugabo, hari n'ibinyabiziga biri guca muri uwo muhanda.

Inzu ndende ifite amarange y'umweru ndetse n'amarange y'umukara, hejuru yateretseho ibigega by'amazi ndetse hari n'andi mabati ari guhinguka y'inzu afite amabara y'umukara, ikikijwe n'urukuta rufite amatafari ahiye ndetse n'ibara ry'ivu.

Inzu ya etaje ndende iri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umukara ndetse na oranje, ifite ubusitani buri imbere yayo burimo indabo ngufi ndetse n'ibiti birebire bigiye bitandukanye, ndetse ifite uruzitiro rwubakishije utwuma dusize amabara y'umukara.

Inyubako ndende iri mu mabara y'umweru ndetse n'ibara ry'ivu, hejuru hari urubaraza ruriho ibigega bigera muri bibiri, rufite uruzitiro rwubakishijwe udutafari duhiye ndetse na giriyaje z'umukara, hejuru hari amatara, hari n'ubusitani buteye imbere yawo.

Umuhanda w'ibitaka uparitsemo ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'ikinyabiziga cya moto, hari urukuta rufite ibara ry'umuhondo n'udutafari, hari abantu bahahagaze bitwikiriye umutaka, ndetse hari inyubako yindi irimo mo imbere.

Umumotari uhagaze mu muhanda wa kaburimbo ndetse n'undi w'ibitaka, hakurya hari inyubako ya etaje ihari, iri mu mabara ajya gusa umweru, ku ruhande hagiye hari utwuma dutandukanye ndetse ku rukuta rwo hanze hubakishijwe utwuma tugiye turiho ibyatsi ku mpande n'impande.

Mu muhanda rwagati hateye imikindo miremire ndetse n'ubundi busitani butoya, harimo amatara ari ku muhanda ndetse hari izindi nyubako zigiye zitandukanye ziri ku muhanda, muri uwo muhanda hari gucamo na none ibinyabiziga by'imodoka ndetse na moto.

Umuhanda uri gucamo ibinyabiziga bitandukanye ndetse uri gucamo n'abanyamaguru hari utwuma duhari turi mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku hakurya hari inyubako ya etaje hari ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye hagiye hamanitseho ibyapa bitewe n'ibintu bikorerwamo ndetse n'indi nyubako iri mu mabara y'umuhondo hejuru ifite ibyuma bihari.

Inzu yo guturamo ifite amabara agiye atandukanye, hari utwuma turi imbere ku rubaraza ndetse muri iyo nzu imbere hagiye hateyemo ubusitani bw'indabo ndende ndetse n'imikindo, ifite urupangu rwubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'amabuye hagiye hasizemo amabara y'umukara ndetse n'umuhondo wijimye, imbere n'aho hateye ubusitani burimo indabyo ndetse hari n'umuhanda utambika.

Inyubako iri ku muhanda iri mu mabara y'umweru ni inyubako ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, hari inyubako ihari iri igucururizwamo ibyo kurya ndetse n'indi nyubako icuruzamo imyenda y'abagabo, hariho icyapa gishushanyijeho amashati ndetse n'inkweto.

Ibinyabiziga by'imodoka biparitse impande y'inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye, igiye ifite imiryango yo hasi imanitseho ibyapa bitewe n'ibintu bikorerwa aho hantu, hari ahakorerwa ubucuruzi bw'imiti ndetse n'ahakorerwa ubucuruzi bw'imboga ndetse n'imbuto.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ibinyabiziga, harimo ibinyabiziga bya moto bihagaze, ndetse hari n'abanyamaguru barimo baragenda muri uwo muhanda, hakurya hari inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye, yaba amabanki ndetse n'ibindi, haparitse n'imodoka imbere y'iyo nyubako, hari n'ibyapa bigiye bimanitseho hejuru.

Umuhanda wa kaburimbo urigucamo ibinyabiziga, yaba ibinyabiziga by'imodoka, yaba ikinyabiziga cya moto gitwaye umugenzi, hakurya hari inyubako zikorerwamo ubucuruzi butandukanye zigiye zifite ibyapa mu marembo yabyo ndetse hari n'ibindi binyabiziga biparitse.

Umunara munini ugiye ufite insinga nyinshi uteretse ahantu hari ibitaka ndetse hari n'ibyatsi bigiye bitandukanye hakurya hari inyubako ifite amabara y'umukara yubakishijwe amatafari ahiye ndetse ifite n'uruzitiro rwubakishijwe amatafari ahiye n'utwuma tugiye turimo mu mpande dufite ibara ry'umukara.

Inyubako ya etage ndende iri ahantu ku muhanda, hagiye hamanitsemo ibyapa bitandukanye bitewe n'ibyo bakoreramo; hari aho bakorera amabanki ndetse hari n'aho hakorerwa ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye; munsi yaho hahagaze ibinyabiziga ndetse n'umukindo; hari n'ibinyabiziga biri gutambuka mu muhanda wa kaburimbo uri imbere y'iyo nyubako.

Imodoka ziparitse imbere y'amazu akorerwamo ubucuruzi, hari inzu imwe igeretse rimwe hasi hakorerwa ubucuruzi ndetse hari n'ibyapa bimanitseho bitewe n'ibyo bakoreramo ndetse hari n'indi nyubako ndende iri mu mabara ajya gusa umuhondo iri hakurya yayo.

Inzu ya etaje ndende cyane iri mu mabara y'umweru, ubururu ndetse n'umuhondo, hari ibyapa bihari ku muhanda, icyapa cya interineti kiri mu mabara y'umutuku, hari itara ku muhanda ndetse n'amapoto y'amashanyarazi afite insinga ndetse hari n'ibiti bihari.

Umuhanda wa kaburimbo hagati hateyemo ubusitani burimo pasiparumu ndetse n'imikindo, ndetse hari n'urukuta ruri hakurya rwubakishijwe amabuye ndetse hari n'ibiti birebire bigiye biteye impande n'impande y'uwo muhanda.

Kaburimbo mo hagati yateyemo umukindo muremure hirya hari ubundi busitani bugufiya ndetse hateyemo n'imikindo, hari gucamo ibinyabiziga bya moto hakurya hari ikindi gihuru cy'ibiti birebire bihari ndetse n'indabo zifite amabara y'umuhondo.

Umuhanda wa kaburimbo hariho ubusitani buhari burimo umukindo ukiri mutoya ndetse hari gucamo ibinyabiziga bya moto bicanye amatara, hari ibindi binyabiziga biparitse ku muhanda, hari ibyapa byamamaza ndetse hejuru hari ikiraro kiriho umuhanda unyura hejuru ku muhanda, hari n'amapoto y'amatara arikwaka.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ibinyabiziga bitandukanye, hari gucamo ibinyabiziga bya moto, ibinyabiziga by'imodoka, kuri uwo muhanda hari amatara ahari ku muhanda, imbere hari ikiraro kinyura hejuru na cyo kirimo umuhanda uri gucamo ibinyabiziga, hari abanyamaguru ndetse n'ibiti bigiye biteye ku muhanda bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ibinyabiziga bitandukanye ya bininyabiziga bisanzwe ndetse na moto ku muhanda hari amatara arikoka hari n'ibiti bihari ndetse hari n'undi muhanda uca hejuru unyuramo imodoka ukikijwe n'utwuyuma ku ruhande ndetse muriumuhanda hasi hari ahandi imodoka zinyura

Umuhanda wa kaburimbo ufite aho abanyamaguru bambukira harimo imirongo iri mu ibara ry'umweru, hakurya hari akapa kari kwakaho itara kagaragaza y'uko umunyamaguru agomba kwambuka, hari ibiti bihateye ku muhanda ndetse hari n'amapoto atandukanye ahari.

Umuhanda wa kaburimbo mo hagati hateyemo ubusitani, ndetse hari kugendamo n'imodoka ziri kwaka amatara, hari n'ubundi busitani buri hakurya, hari n'ikiraro cyo hejuru kinyuramo ibinyabiziga, gikikijwe n'utwuma ku mpande.

Ku muhanda wa kaburimbo hari gucamo ibinyabiziga bigera muri bibiri, hari akayira k'abanyamaguru, gakikijwe n'ibyuma ku mpande n'impande, hari kunyuramo umunyamaguru, hari ibiti biyateye kuri uwo muhanda ndetse hari amatara ku muhanda n'amapoto y'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ibinyabiziga, muri uwo muhanda hagati hateyemo ubusitani burimo indabo nyinshi ndetse n'ibiti birebire by'imikindo, ndetse n'ibindi biti bisanzwe, hari amatara ku muhanda ari kwaka, ndetse hari n'akayira k'abanyamaguru bacamo.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ibinyabiziga hateye ubusitani buri impande n'impande ndetse no hagati harimo ubusitani bunini bugiye bumanitsemo ibyapa bitandukanye hari amatara ku muhanda ndetse no hakurya naho hateye ibiti birebire biri impande y'uwo muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ibinyabiziga bitandukanye yaba ibya moto ndetse n'imodoka hari aho abanyamaguru bambukira, hari ibyapa byo ku muhanda byerekana igihe imodoka zigomba kugendera n'igihe zigomba guhagarara, hari amatara ku muhanda ndetse hateye n'ibiti birebire.

Ahantu haparitse gare, ndetse hari kugendamo abantu mu kayira, ndetse haje n'undi wicaye ku igare, hari ahantu hari ibiti birebire, ndetse hakuno hari akapa karirimo ibara ry'ubururu, hari akayira k'abanyamaguru gakikijwe n'ibyuma, mu muhanda rwagati ho hari gucamo ibinyabiziga byinshi.

Moto iri kunyura mu muhanda wa kaburimbo, itwaye umugenzi hari ubusitani butandukanyije imihanda, burimo indabo zikiri ntoya ndetse n'imikindo, hirya hari kunyuramo n'ibindi binyabiziga by'imodoka na moto, hari ibiti bigiye bikikije uwo muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ibisate bigera muri bibiri hari gucamo ibinyabiziga bya moto ndetse n'ikinyabiziga gitwara abagenzi kuri uwo muhanda hari inyubako ya sitasiyo iri hirya ndetse hari n'ibiti binini n'amatara ku muhanda ahari.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ibinyabiziga by'imodoka, harimo ubusitani buteyemo umukindo, ndetse n'indabo zikiri ntoya. Hirya hari amatara ndetse hari na moto ziri gucamo, ndetse hari n'urukuta rurerure rwubakishije amabuye ruhari, hejuru hari inzu.

Abantu bari kwambuka umuhanda wa kaburimbo bari kwambukira umuhanda ahantu habugenewe hari imirongo y'umweru ndetse hari n'ibinyabiziga bya moto biri gutambuka hari akayira k'abanyamaguru gahari hari ikinyabiziga cy'imodoka kirigutambuka nacyo ndetse hari urukuta rurerure rwubakishijwe amabuye hejuru naho hari uruzitiro rukorotiriye mu mabara y'ubururu ndetse n'izindi nzu zigiye ziri impande n'impande.

Ibinyabiziga by'imodoka moto ndetse n'amagare biri kunyura mu muhanda wa kaburimbo hari ibindi binyabiziga biparitse imbere y'inyubako ndende igeretse kabiri ifite amatara hejuru kuri uwo muhanda hari amatara ndetse n'ibiti bigiye bite impande n'impande.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibisate bigera muri bibiri hari kunyuramo ibinyabiziga bya moto bigera muri bitatu, hari aho abanyamaguru banyura, hari utwuma turi ku muhanda dusize amabara y'ubururu, hari amatara ku muhanda ndetse hari n'ibiti bigiye biteye impande n'impande.

Umuhanda utari kugendamo abantu, ndetse n'ibinyabiziga, muri uwo muhanda ku mpande hari amatara ahari, ndetse hari n'ubusitani, harimo hagati burimo ibiti birebire ndetse no ku mpande hagiye hakikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye.

Ibinyabiziga bitandukanye biri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, hari akayira k'abanyamaguru ndetse hari aho abanyamaguru bambukira bari kwambuka bagera muri babiri mu mirongo ifite ibara ry'umweru. Ku muhanda hari ibyapa ndetse hari n'ibiti bihateye.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imirongo y'umweru, aho abanyamaguru bambukira, hari kunyuramo imodoka zizamuka ndetse hari aho abanyamaguru banyura, hari abantu bahahagaze, hari inzu ihari kuri uwo muhanda, hari ibyapa bihari, impande n'impande.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ibisate bigera muri bibiri, harimo umukindo ndetse n'ibindi byatsi bigiye biteye mu busitani buri kuri uwo muhanda, hari umuhanda wo hirya uri gucamo ibinyabiziga bya moto ndetse n'imodoka isanzwe, hari n'aho abanyamaguru bambukira, ndetse hari n'amatara ari ku muhanda.

Umuhanda w'ibitaka, umanuka n'undi utambika haparitsemo ibinyabiziga bigera muri bibiri ndetse hepfo hari urukuta rwubakishijwe amabuye n'amatafari ahiye, bifite umuryango w'umukara n'imbere harimo inzu yo guturamo. Ndetse naho haruguru hari urundi rukuta ruhari, hahagaze n'abantu, hateyemo ibiti mo imbere.

Umuhanda wa kaburimbo hari aho abanyamaguru bambukira harimo imirongo y'umukara n'umweru ndetse hari n'ibyapa bihagarika imodoka ndetse n'ibyemerera abagenzi gutambuka biri mu mabara y'icyatsi ndetse n'umuhondo muri uwo muhanda hari kugendamo ibinyabiziga ndetse ku mpande n'impande n'impande hagiye hakikijwe n'ibiti bihateye.

Ibinyabiziga bya moto bigera kuri bibiri, bitwaye abagenzi, biri guca mu muhanda wa kaburimbo ndetse muri uwo muhanda wa kaburimbo harimo ubusitani burimo hagati, burimo indabyo ntoya ndetse n'umukindo muremure ndetse hari amatara ku muhanda, hari n'abanyamaguru bari kugenda muri uwo muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ibinyabiziga bya moto ndetse n'imodoka itwara abantu ,hari izindi modoka zigiye ziparitse impande n'impande imbere y'inyubako ya etage ihari ifite ibyapa bigiye bimanitse ku nkuta ndetse hari n'ibiti bigiye biteye impande y'uwo muhanda.

Ibinyabiziga bya moto biri guca mu muhanda wa kaburimbo ufite ibisate bigenda bitandukanye, kuri uwo muhanda hariho ubusitani buteye imikindo, hari ibyapa kumuhanda ndetse n'ikinyabiziga cy'ikamyo kiri mu mabara y'ubururu kiri kugenda muri uwo muhanda ndetse hari n'ibiti bigiye biteye impande n'impande z'uwo muhanda.

Umuhanda w'ibitaka hagiye harimo inyubako zigiye ziri impande n'impande, imbere hateye ubusitani bw'indabo ndetse n'ibiti birebire, hari urukuta rwubakishijwe amatafari ahiye ndetse mu imbere hagiye harimo inzu zigiye zitandukanye, hari n'imodoka iri kunyura hirya mu muhanda w'ibitaka.

Umuhanda wa kaburimbo, hari aho abanyamaguru banyura, ndetse hari naho abanyamaguru bambukira, harimo imirongo y'ibara ry'umweru, hari gucamo ibinyabiziga bitandukanye, yaba ikikoreye ikintu inyuma gifite ibara ry'ubururu, ikinkinyabiziga cya rifani, ndetse n'ibindi binyabiziga bitandukanye. Ku muhanda hari amapoto y'amatara ndetse n'ibiti bihateye ku mpande.

Ku muhanda wa kaburimbo hari akapa kanditseho ka ga magana atandatu mirongo icyenda n'umunani, hari ipoto y'amashanyarazi ihari, hari igiti kihateye ndetse muri kaburimbo hari kugendamo ibinyabiziga bya moto bigera kuri bibiri ndetse hari n'abanyamaguru bari kugenda muri uwo muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ibinyabiziga bya moto, hari aho abanyamaguru bagenda ndetse hari ubusitani buri ku mpande ndetse hejuru hari ikindi kiraro gihari nacyo cy'umuhanda ucamo imodoka gikikijwe n'utwuma tugiye dutandukanye ndetse kuri uwo muhanda hari n'amatara yaka.

Moto ziri kunyura mu muhanda wa kaburimbo ndetse hari aho abanyamaguru baca, hari n'akazu kari mu mabara y'ubururu kicaraho abantu bategereje imodoka ndetse hari ibiti bigiye bikikije uwo muhanda. Imbere hari n'ahantu hari icyapa ndetse hari n'ikiraro kinyuramo imodoka hejuru.

Umuhanda wa kaburimbo, hari aho abanyamaguru bambukira, harimo imirongo y'umweru, ndetse hari kunyuramo ibinyabiziga bya moto, hari ibyapa byo ku muhanda, bigaragaza y'uko umunyamaguru agomba kwambuka, biri kwaka amabara y'umutuku, ndetse hirya hari ibiti bigiye biteye impande n'impande.

Ibinyabiziga by'imodoka, biri guca mu muhanda wa kaburimbo, hagiye harimo ubusitani buteyemo imikindo ndetse hirya hari kunyuramo na moto, hari amatara yo ku muhanda, hari ibiti bigiye biteye impande n'impande, hari urukuta rw'amabuye ruhari, hejuru hari inzu ifite amabati y'umutuku.

Ikinyabiziga cy'imodoka kiri guca mu muhanda wa kaburimbo, ni imihanda igiye itandukanye bitewe n'aho imodoka ziri kugana, itandukanyijwe n'ubusitani bugiye buteyemo hagati, muri uwo muhanda hariho amatara ku muhanda, hari imikindo ihari impande n'impande ndetse hari n'inzu iri kugaragara amabati iri munsi y'umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ibinyabiziga, muri uwo muhanda wa kaburimbo harimo imirongo yambukiraho abanyamaguru iri mu mabara y'umweru, hakurya hari inyubako zihari zikorerwamo ubucuruzi butandukanye hagiye hamanitseho ibyapa hejuru, ndetse hirya hari n'indi nyubako iri mu mabara ajya gusa umuhondo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibisate bigera muri bibiri hari aho abanyamaguru bambukira harimo imirongo y'umweruy hari gucamo ibinyabiziga bya moto, hari amatara ku muhanda ndetse hakurya hateye ibiti birebire ndetse hari n'inyubako zihari.

Umuhanda wa kaburimbo ufite ibisate bibiri, uri gucamo ibinyabiziga bitandukanye ndetse hari ubusitani buhari buteyemo imikindo ndetse hakurya hari n'ibindi biti birebire bihari, hari ibyapa ku muhanda, hari amatara ku muhanda ndetse hari n'izindi nyubako zihari kuri uwo muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo mo hagati hateyemo ubusitani, burimo imikindo ndetse muri uwo muhanda ari gucamo ikinyabiziga kinini ndetse n'ibinyabiziga bya moto, hirya hari aho abanyamaguru bambukira, hahagaze umunyamaguru witeguye kwambuka ndetse hari n'akapa kari hirya gahari.

Imodoka ndetse n'ibinyabiziga bya moto, biri guca mu muhanda wa kaburimbo impande n'impande, kuri uwo muhanda hari ibyapa ndetse hari amatara yo ku muhanda, hari n'inyubako zigiye zitandukanye zihari, zikorerwamo ubucuruzi, hagiye hamanitseho ibyapa, hari n'ibinyabiziga bigiye biparitse imbere y'iyo nyubako.